Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano, ari imbere ku kibaho arimo kwandika ibyo mwarimu arimo kugenda amubaza, uko bigaragara yiga mu mashuri y'inshuke, abana nk'aba ngaba kubigisha biravuna.

Abana b'abanyeshuri barimo kwikinagura, bakaba bari iruhande rw'ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, uko bigaragara hari ikigo cy'amashuri kiri hafi aho ngaho ndetse hakaba hari n'ingo z'abaturage.

Kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke, si ibintu byoroshye kuko bisaba kugenda ukoresha ibikoresho bitandukanye ndetse bifite n'amabara atandukanye nk'ibitambaro kugira ngo ugende ubashushanyirizamo ibintu bitandukanye.

Ikimera gishushanyije ahantu ku gikuta, icyo gikuta kikaba gisize irangi ry'umweru, hari amagambo y'umukara yanditse agaragaza ibice bigize icyo kimera gishushanyije.

Abana b'ibishushanyo, bicaye muri karase barimo kwiga, uko bigaragara hari uri imbere uri kubereka igipapuro, na bo bakakirereberaho hanyuma bakandika mu makaye yabo.

Abana begamye ku gikuta, bakaba ari abana biga mu mashuri y'inshuke, ariko se ko ari bakuru byaba byaragenze gute? gusa birashoboka hari igihe baba baradindiye mu mashuri.

Ibishushanyo biriho ifi, ihene ndetse n'injangwe, ibyo bishushanyo bikaba byifashishwa n'umwarimu wigisha mu mashuri y'inshuke kuko kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba ubuhanga.

Igishushanyo kiriho umwana ufite imisatsi isutse, akaba arimo kugenda asatira ibara ry'umuhondo rimeze nk'igi, hakaba hari ijambo ryanditse ry'ururimi rw'Ikinyarwanda.

Igipope cy'umwana kikaba cyifashishwa n'umwarimu wigisha mu mashuri y'inshuke, arimo kugenda akereka abana kugira ngo bishime.

UUdukarito tubiri kamwe kageretse ku kandi, ni udukarito dufite amabara atandukanye hari umuhondo ndetse hakaba na move, uko bigaragara harimo n'ibara ry'iroza.

Amashuri y'incuke ni amashuri yaje akenewe ndetse y'ingenzi cyane kuko bifasha umwana gukura akuza ubwenge kandi bigatuma azagira igihe cyo kujya mu mashuri abanza yiteguye gufatiraho.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ni abana bakunze kwitabwaho cyane, kuko iyo umwana yitaweho akiri muto bituma amenya ubwenge. Bahabwa imyitozo igiye itandukanye kugira ngo bakangure ubwonko bwabo.

Umwana wiga mu ishuri ry'incuke yigishwa ibintu bitandukanye bimufasha gukangura ubwonko bwe kugira ngo azagere mu mashuri abanza ari intyoza ndetse azi ubwenge, yifashisha amabara atandukanye n'ibikoresho kugira ngo bamufashe.

Igishushanyo cyiza cyane cy'inyoni ifite amabara y'ubururu, umweru, umuhondo, umutuku n' numukara, ikaba ari inyoni ishushanyije ku gikuta gisize irangi ry'umuhondo, hakaba hari umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wegereye umuryango.

Ibishushanyo by'imodoka zitandukanye ariko zose zikaba ziri mu bwoko bw'amabenu cyangwa se amakamyo, bikaba byifashishwa n'umwarimu wigisha abana bo mu mashuri y'inshuke.

Kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke bisaba kuba uri umuhanga ndetse wihangana cyane, kuko hari igihe abana bagusererereza cyangwa ugasanga bagiye bakora ibintu bitari byiza nko kwinyarira.

Abantu benshi bakunze kwambara ingofero iyo basoje icyiciro runaka cy'amashuri ndetse n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bambara ingofero kugira ngo babashe kwishimira ibirori byabo.

Abantu benshi cyane bakunze kugira ngo kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke ni ibintu byoroshye ku buryo n'utarabyize yabikora, nyamara biragora cyane kuko umwana nibwo aba atangiye gukaza ubwenge.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hakaba handitseho ngo ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo.

Ibintu birambitse ahantu hamwe byose bikaba ari ibishushanyo byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane y'amashuri ikaba ari inyubako ifite amarangi y'umweru, imbere yayo hari abantu babiri, umwe akaba yicaye ku ntebe y'urubaho itambitse munsi y'idirishya.

Amashuri meza cyane afite urubaraza, rukaba ari urubaraza rufatishijwe ibyuma, imbere yaho hakaba hari ikibuga kirimo ibyatsi.

Ibitabo bitondetse ku murongo aho biteretse ku meza, hakaba hari umunyeshuri wafashe kimwe arakirambura, akaba ari kugenda agisoma kugira ngo yiyungure ubumenyi maze azatsinde.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kwifashisha ibishushanyo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe gusobanukirwa neza, niyo mpamvu umwarimu ubigisha aba ari uwabihuguriwe.

Iyo wabaga wiga mu mashuri abanza ukagera mu mwaka wa kane kuzamura, wigishwaga guca uruziga ukoresheje agakoresho kabigenewe, ukigishwa gukoresha amarati ushushanya ibinyampande.

Mwarimu ari ku kibaho yashushanyije umutima ndetse ashyiraho n'ibice byose, ari kugenda akora ku gice, akabaza abanyeshuri ati "iki bacyita ngo iki, iki bacyita ngo iki", ibyo bigafasha abanyeshuri kumenya ibice bigize umutima.

Igikoresho kizwi nka buwate kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, harimo gome, hakabamo kereyo, hakabamo amarati yifashishwa mu gushushanya ibinyampande.

Igishushanyo cy'inyamaswa irimo kugenda, ikaba ifite umurizo ibinono ndetse n'amahembe, ni inyamaswa iteye mu buryo bwayo, gusa uko biri kose mwarimu ayifashisha arimo kwigisha abanyeshuri.

Uruziga, uruziga ni kimwe mu bintu byigishwa abana biga mu mashuri abanza, ndetse bakagenda babigisha ibintu bijye bitandukanye kugira ngo bizabafashe mu buzima bwabo.

Twiga mu mashuri abanza twasomaga ibitabo bigiye bitandukanye by'ikinyarwanda kugira ngo bidufashe kwiyungura ubumenyi, urugero haricyo twasomaga cyitwa uwera urugero rwiza.

Ishuri ririmo abanyeshuri, bakaba barimo gukora ikizamini, bicaye ku murongo ndetse mwarimu nawe ari kugenda acungacunga ko ntawukopera.

Igikoresho kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bagitwaramo ibintu bigiye bitandukanye amakaramu, ay'ibiti ndetse n'asanzwe.

Inyubako nziza cyane y'ishuri ifite urubaraza, urwo rubaraza rukaba rufite inkingi z'ibyuma zirufashe, ni inyubako ifite ubusitani bwiza buri iruhande rwayo.

Utuntu tugera muri tubiri twose dushushanyijeho udushushanyo tw'agapusi, utwo dushushanyo tukaba twifashishwa n'umwarimu wigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke.

Imyenda itatu ishushanyije, harimo umupira w'amaboko magufi ufite ibara ritukura, hakabamo ingofero nayo ifite ibara ritukura, hari n'umupira w'amaboko maremare ndetse ufite n'ingofero.

Kera twiga mu mashuri abanza, iyo twageraga mu isomo ry'imibare, badutumaga ibikoresho bitandukanye harimo ikaramu y'igiti, agacaruziga, amarati y'amoko atandukanye ndetse n'ikaramu y'igiti.

Abantu bigaragara yuko ari abanyeshuri, bari mu ishuri mwarimu na we ari imbere arimo kubigisha yanditse imibare ku kibaho, hakaba hari abazamuye ibiganza kugira ngo bajye gusubiza ibibazo yabababajije.

Amashuri meza cyane asakaje ibati ry'umutuku, ni amashuri imbere yayo ubona ko hari ikibuga cyiza kirimo sima ndetse hakaba hari ibikapu bipanze ku ruhande rw'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abana bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'icyatsi, barimo kwicundaga mu mwicundago mwiza umeze nk'imodoka, imbere yabo hari undi mwana witegura kubasanganira.

Kwigisha mu mashuri abanza si ibintu byoroshye na gato, kuko bisaba kuba uri umuhanga ndetse wihangana, bisaba gukoresha ibishushanyo bigiye bitandukanye kugira ngo umwana umufashe kumva neza.

Ikigo cya Rukomo. Ni ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane. Hakaba hari icyapa kigaragaza ko ukigezeho. Icyo cyapa kiri mu busitani bwiza burimo indabo.

Igihe ugiye kwigisha abana batoya bo mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, bisaba ibikoresho bihagije kuko umwana niba umubwiye ibara ry'umutuku ugomba kurizana ukarimwereka.

Igikoresho kizwi nka buwate, kikaba cyifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho kiba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare.

Igishushanyo cy'uruziga kirimo utundi dushushanyo tugiye dutandukanye turi no mu mabara atandukanye, ni udushushanyo twifashishwa n'umwarimu mu gihe arimo kwigisha abana biga mu mashuri abanza.

Ikigo nderabarezi cya Matimba, ni ikigo gifite porotayi nini ifite urupangu rwiza hakaba hariho urugi rwubakishije ibyuma bikomeye, bisize irangi ry'umukara.

Abana biga mu mashuri abanza bararushya, kubigisha bisaba kugenda ubereka ingero zifatika, niyo mpamvu usanga bazanye ibikoresho bitandukanye mu ishuri kugira ngo babyereke abana.

Uruziga rusobekeranyije, rukaba rurimo inyuguti zigiye zitandukanye ndetse rukaba rwifashishwa na mwarimu, arimo kugenda yigisha abanyeshuri ibintu bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako ifite urubaraza ruteye inkingi zubakishije amatafari ahiye, hasi hakaba hasize akabara k'umukara, imbere y'inyubako y'ishuri hari kandagira ukarabe

Agashushanyo kariho amabara agiye atandukanye ndetse n'inyuguti n'imibare, kakaba kifashishwa n'umwarimu wigisha mu mashuri abanza kugira ngo afashe abanyeshuri be.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako ifite ibikoresho bigiye bitandukanye, ameza, intebe ndetse hakaba hari amabara y'ubwoko bwose. Ni inyubako y'ishuri yigiramo abana batoya.

Abana bashushanyije barimo kugenda bafata imyanda bayikura hirya no hino, bakayishyira mu kidobo cyabugenewe. Ibi bikatwigisha ko tugomba kutamena imyanda aho tubonye hose.

Amarati agiye atandukanye yifashishwa mu gushushanya ibinyampande, imirongo, ndetse n'uruziga. Hakaba hari n'uducaruziga tugiye dutandukanye, gome, ndetse na kereyo na takereyo.

Kera twiga mu mashuri abanza, iyo twageraga mu mwaka wa kane byabaga ari itegeko kugura akabuwate kaba karimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare.

Amashuri meza cyane afite jaride nziza irimo indabo, izo ndabo zikaba zitoshye ndetse zikaba zigiye zubakiye neza aho hari ubusitani bugaragara.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta bitatse neza, mo imbere hateretse ameza ndetse hakaba hari n'intebe zigiye zizengurutse kuri buri meza. Uko bigaragara ni inyubako y'ishuri.

Abantu babiri b'ibishushanyo, ni abana b'umuhungu n'umukobwa, barimo kwerekana ikirunga ndetse bakerekana n'ikiyaga. Ibi bishushanyo byifashishwa n'umwarimu ubigisha.

Inyubako nziza cyane y'ubwiherero ikaba ifite ibice bibiri. Hari igice cyagenewe abagabo ndetse n'igice cyagenewe abagore. Isakaje ibati ryiza cyane ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Igishushanyo kiriho abana babiri, bafite urupapuro, ndetse bakaba barimo kubaza ngo iki ni igiki, ndetse bakaba banagira bati umuganura ni iki, ibi ngibi bikaba ari ibintu byifashishwa na mwarimu wigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza.

Ishuri ririmo ikibaho cyometse ku gikuta, kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse gihanaguye. Uko bigaragara iri shuri nta munyeshuri n'umwe urimo kuko nta nyoni ikoma.

Ibikoresho bitandukanye biri mu mabara atandukanye bikaba byifashishwa n'umwarimu igihe arimo kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ibyo bikoresho byose bikaba ari byiza cyane.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, ni inyubako irunzemo ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri.

Amashuri yo mu Rwanda akunze kuba ari amashuri meza mu buryo bugaragarira ijisho, aba afite amabati meza cyane ya dumuzazi, hakaba haba hari n'umwanya wo guparikamo amamodoka y'abashyitsi.

Kandagira ukarabe nziza cyane, ikaba ifite aho gukarabira harenze hane ndetse ikaba yubatse imbere y'ikigo cy'amashuri. Icyo kigo kikaba gisakajwe amabati y'ubururu ndetse giteye n'irangi ry'umweru.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye biriho imibare ndetse n'amagambo y'inyuguti. Ni ibishushanyo byifashishwa n'umwarimu wigisha mu mashuri abanza kugira ngo afashe umunyeshuri azazamuke ari intyoza.

Agacaruziga kari mu ibara ry'umweru n'umukara. Kakaba kifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bari kwiga isomo ry'imibare, aho baba bageze mu gice cyo kwiga uruziga.

Ibintu byiza cyane bigaragaza ko mu Rwanda hari umuco, akaba ari ubugeni bwakozwe kugira ngo bujye bufasha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga umuco nyarwanda.

Akabuwate karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare harimo agacaruziga, amarati y'ubwoko butandukanye ndetse hakabamo gome n'ikaramu y'igiti.

Imyicundago y'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ikaba iri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, hirya yayo hari amashuri agaragara asize irangi ry'umuhondo.

Igikoresho gikunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, kikaba kibikwamo uducaruziga, ikaramu y'ibiti, amarati yo mu bwoko butandukanye n'ibindi.

Umwana w'umukobwa arimo gukoresha amabara atandukanye yiga, hakaba hari umwarimu urimo kumufasha ndetse umwana ari kugenda atunga ku ibara, avuga ngo iri ni umuhondo, iri n'ubururu, iri ni icyatsi.

Ibishushanyo biriho umugore n'umugabo n'abana be bicaye ahantu hamwe, uko bigaragara bakaba basuwe n'umuturanyi nawe wazanye n'umwana we, bikaba byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza.

Abana bari kurya ibiryo bakaba bari kugaburirwa na nyina bose bicaye ku gatebe yaba abana ndetse n'umubyeyi, uko bigaragara n'ibishushanyo bishushanyije byifashishwa na mwarimu yigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza.

Igikoresho gikunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho kiba kirimo ibikoresho byo mu isomo ry'imibare, haba harimo amakaramu y'ibiti amagome, hakabamo ndetse n'uducaruziga.

Ibishushanyo biri mu bice bibiri, hari igice cya mbere n'igice cya kabiri . Icya mbere kikaba kiriho abana barimo gukina abareba mu byerekezo bitandukanye barambuye amaboko yabo ,mu buryo butandukanye ,ikindi gishushanyijeho amazu ndetse n'ipoto y'insinga y'amashanyarazi.

Abanyeshuri benshi cyane bahujwe bakaba barimo kugirwa inama zigiye zitandukanye ku myitwarire yabo ndetse n'uburyo bashobora kongera imitsindire.

Abana bane bari ku umurongo, babiri bafite inkweto zo gukinana umupira w'amaguru mu ntoki zabo, abandi na bo bambaye imidari, uko bigaragara bahembwe nyuma yo gutsinda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki, bahagaze imbere y'ikigo cy'amashuri cyabo, bakaba barimo kurya ifoto.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ikirimo kuzamurwa, ni inyubako bigaragara ko izakira abanyeshuri batari munsi y'ijana, iyi nyubako ikaba ije kunganira izari zisanzwe kuri icyo kigo.

Abanyeshuri bicaye mu kigo cy'amashuri, bakaba barimo kuganirizwa n'abayobozi babo. umuyobozi akaba afite indangururamajwi, yambaye amarinete, yazamuye ukuboko hejuru, uko kuboko kukaba gufashe impapuro zanditseho.

Abantu b'abanyeshuri batonze umurongo imbere y'inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, yubakishije amatafari ahiye, aba bose bambaye impuzankano usibye batatu barimo b'abayobozi bari ku ruhande.

Ikaze ndetse karibu, Rukomo ishuri ryisumbuye, ni amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditse ku rugi runini rucamo imodoka, aho ari kugaragaza icyo kigo cyavuzwe.

Abantu benshi cyane biganjemo abasore, bakaba bambaye imyenda bigaragara ko hasi bambaye uko babonye ariko hejuru bambaye umupira w'icyatsi kibisi bakaba bari mu munsi wa siporo.

Iyo hari igikorwa cyangwa se inama umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ashaka kubwirira hamwe abanyeshuri bose, abahuriza hamwe ku murongo maze akababwira icyo yateguye kubagezaho.

Akarere ka Nyagatare ni akarere gafite ibiro byiza cyane, kakaba gafite amashuri agiye atandukanye aboneka muri buri murenge ndetse hafi buri kagari kose kakaba gafite ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri bari ku murongo bakaba bambaye impuzankano ndetse umuyobozi wabo akaba ari imbere arimo kubaha amabwiriza y'ibyo bakora, uko bigaragara bari imbere y'inyubako y'ishuri ryabo.

Umwana w'umukobwa agiye ku ishuri, nyina arimo kumuhobera amusezeraho. Akaba arikumwongorera ati "mwana wanjye genda uzabitsinde ntuzarangare, ntuzishinge uduhungu tw'iki gihe".

Abanyeshuri beza cyane barimo gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo kwishyura amafaranga kuri banki kugira ngo babone uko baziga nta kibazo na kimwe bafite. Aba bose bambaye impuzankano y'umweru n'umukara.

Abana babiri b'abakobwa bakaba bafite ikadere irimo indangamanota yabo cyangwa se impamyabumenyi. Bakaba bishimye barimo gufata ifoto y'urwibutso, bahawe n'umudari w'ishimwe.

Ubundi umuntu w'umunyeshuri mwiza cyane kandi witonda, uzamubona yazindutse kare kare afite amakayi, amakaramu ndetse n'imashini yo guteranya imibare kugira ngo agende yige maze azatsinde.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, bicaye mu ntebe za pulastike, bakaba bari imbere ya mwarimu, uwo mwarimu n'umugore afite indangururamajwi mu ntoki n'igitabo.

Abantu bicaye mu nyubako bakaba bicaye mu buryo bw'umuzenguruko, abayobozi bicaye imbere imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'igitabo, abanyeshuri nabo barimo kumva ibyo babwirwa.

Abanyeshuri barimo kugenda mu muhanda, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu, umukara, hakaba hari n'abandi bambaye amashati y'imyeru ndetse hakaba harimo n'abambaye amapantaro ya kaki, ni ibigo bibiri byahurijwe hamwe.

Inyubako nziza cyane y'ishuri isize amarangi y'umuhondo ku bikuta imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza cyane buririmo indabo ndetse hakaba hashinzemo n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umuryango munini cyane ufite urugi rusize ibara ry'icyatsi kibisi. Hejuru hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza akaba yandikishije ibara ry'umweru.

Abana benshi cyane bambaye impuzankano z'ibigo by'amashuri. Uko bigaragara ni ibigo by'amashuri bitandukanye byahurijwe hamwe, bikaba birimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika.

Abantu bigaragara ko ari abafundi n'abayede, bakaba bambaye imyenda yabugenewe y'akazi, amajiri ari mu mabara atandukanye umuhondo, ubururu ndetse n'umukara, bakaba bibereye mu nyubako mo imbere.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, hari umwarimu uri imbere yabo arimo kubigisha. Uko bigaragara haje umushyitsi, uwo mushyitsi bamuhaye umwanya kugira ngo avuge ikimugenza.

Umuntu bigaragara ko ari umuyobozi w'abana biga mu kigo cy'amashuri yisumbuye, ari imbere yabo arimo kugenda abaganiriza, inyuma ye mu itente hari ababyeyi baje kumva inama.

Umugabo wambaye ijire y'umuhondo akaba yambaye ingofero y'umuhondo mu mutwe y'abayede, ari iruhande rw'abagabo benshi cyane, bambaye amajiri na bo agaragaza ko ari ba rwiyemezamirimo.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe aho bari kumva inama zateguwe n'abayobozi babo, bakaba bari ahantu munsi y'ibiti binini cyane bifite amashami maremare ndetse bakaba bicaye mu ntebe zabugenewe.

Abantu bagiye batandukanye bambaye amajiri ari mu moko atandukanye. Bakaba bambaye n'ingofero za ba rwiyemezamirimo mu bijyanye n'ubwubatsi. Bakaba barimo kuganira uburyo bagiye kubaka ibigo by'amashuri.

Abana baricaye imbere yishuri ryabo, bamwe baricaye abandi barahagaze mwarimu wabo w'umumasera akaba ahagaze i uruhande rumwe arimo kugenda yifotozanya nabo.

Umunyeshuri w'umukobwa yambaye impuzankano y'umweru, yifashe mu maguru ndetse imbere ye hakaba hari umukorerabushake uri kumupima umuriro.

Inyubako nziza cyane y'ishuri yubatswe n'amatafari y'impunyu, mo imbere hamanitse icyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ayo magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abanyeshuri biga ku kigo kimwe, abo mu mashuri abanza ndetse n'abo mu yisumbuye, bose bahurijwe hamwe kugira ngo umuyobozi abagezeho gahunda y'uko umwaka uteye.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe, bakaba barimo gukora ikizamini, bamwe barimo kwandika banatekereza ndetse harimo n'abo byayobeye, barimo kureba hejuru, babuze iyo bakopera.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kwandika, uko bigaragara ni mu mugihe cya coronavirus kuko bambaye udupfukamunwa bose bakaba bari kwandikisha amakaramu y'umutuku n'ubururu.

Umwana w'umukobwa wambaye ijipo nziza cyane isa nibara ry'ivu, yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara. Uyu mwana akaba afite agasatsi gakeya, ni umunyeshuri.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko yigirwamo n'abanyeshuri biga ibigendanye n'ubuvuzi, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, amacupa, imigozi itwara umuriro w'amashanyarazi n'ibindi bintu byinshi cyane.

Ababyeyi benshi cyane bakunze kuvuga ko abana babo biga ku mashuri agiye atandukanye, babona ibitabo byo gusoma ariko bakaba batabibaho babizane mu rugo, niyo mpamvu muri buri shuri haba hari ahantu hagenewe isomero.

Abantu bambaye amasarubeti y'ubururu bakaba bari mu nyubako, iyo nyubako ikaba ari iyikigo cy'amashuri yisumbuye, bakaba bari kugenda bakora ubushakashatsi.

Leta y'u Rwanda yagiye ishyira imbaraga mu bijyanye n'imyigire. Aho yashyizeho gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri kugira ngo umunyeshuri akomeze amasomo ye nta nzara afite. Kuko burya bavuga ko ikirema ari ikiri mu nda.

Inyubako nziza cyane yikigo cy'amashuri, ni inyubako isize irangi ry'umuhondo, ikaba ifite ibyuma bigiye bizitiye ahantu umuntu ashobora kugwa. Ifite inkingi nziza cyane zikomeye.

Abantu biganjemo abagabo ariko hakaba harimo n'umugore umwe, bambaye amajire meza cyane ari mu mabara atandukanye. Aba bantu bakaba bagiye gukora ikiraka cyo kubaka amashuri.

Abanyeshuri beza cyane bicaye ku ntebe, bakaba bambaye impuzankano y'umukara n'umweru ndetse hakaba hari na karuvate y'umukara, bose bicaye nk'abakurikiye ikiganiro barimo kugezwaho n'umuyobozi wabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, barimo kwandika, bakaba ari abanyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Amashuri y'ubumenyingiro yo mu Rwanda, ni amashuri akome kwitabwaho. Kubw'iyo mpamvu hari za kaminuza zashyizweho kugira ngo zijye zifasha abanyeshuri bafite impano.

Abanyeshuri bicaye mu nyubako nziza cyane y'ishuri, hakaba harimo amarido meza akingirije ku birahure kugira ngo umuyaga cyangwa izuba bitinjira maze bigatuma batiga neza.

Kaminuza nkuru y'Igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, ni kaminuza ikunze gusohora abanyeshuri benshi cyane buri mwaka, ndetse benshi bakaba bahita bashyira mu bikorwa ibyo bize.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye amakanzu ndetse bakaba bafite ingofero mu ntoki abandi bazambaye, ibyo byose bikaba ari ibigaragaza abantu bashoje ikiciro runaka cya kaminuza.

Ikibumbano cy'umuntu kiri ahantu mu nyubako, kikaba ari ikibumbano kigaragaza umutwe, izosi ndetse n'igice cyo mu maso. Kikaba kigaragaza umutwe wajanjaguritse ndetse n'ijosi ryenda gucikamo.

Ubugeni bwo mu Rwanda abuteza imbere ababukora, kenshi cyane iyo umuntu avuze ubugeni abantu biyumvira guhanga, kuririmba ndetse no kubyina nyamara hari abantu bakora ibibumbano bigiye bitandukanye bikaba bikundwa n'abazungu.

Intebe ebyiri nziza cyane zifite uburyo ziteyemo zikaba zose zifite amabara y'ubururu zose ziri muri Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro mu Rwanda.

Igihe cyose ubonye imbuto zigiye zitandukanye, ushobora kuzigana, ukazishushanya maze bikagutunga. Ukajya wereka abakiriya uti" dore inanasi mfite uko imeze".

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari mu nyubako mo ibere, hateretse ivaze irimo uturabo, iruhande rwaho hari ikintu kimeze nk'umupira gifite amabara atandukanye.

Abanyeshuri bicaye muri sale nini cyane, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo barimo kwiga, uko bigaragara biga muri kaminuza ndetse bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye.

Ikibumbano kiyiza cyane kigaragaza ugutwi k'umuntu n'umutwe ufite umusatsi, hakaba hari n'ikindi kigaragaza ikimeze nk'ukuguru, kikaba ari ikibumbano cyakozwe n'abanyeshuri biga ibigendanye n'ubumenyingiro.

Ahantu hose hari ikigo cy'amashuri cyangwa se inyubako zigendwamo n'abantu benshi, uzahasanga hari agakoresho kabugenewe gashyirwamo imyanda ndetse bikaba biba bibujijwe kugenda ujugunyanga ibipapuro ndetse n'amasashi aho ubonye hose.

Ububumbyi bushobora gutunga ababukora, ariko se wakibaza ngo baba babumba iki? Ubundi twari tumenyereye ko babumba inkono ariko muri iyi minsi hari ibibumbano abiga ubugeni bakora, bikaba byatuma bibonera amafaranga.

Abantu benshi cyane bakunze kuvuga y'uko muri za kaminuza zigiye zitandukanye hirya no hino, haba hari ubusitani bwiza cyane, bukaba buba burimo indabo zihumura.

Imifuka irimo ubusa, ikaba ari imifuka y'umweru iri ahantu mu kigo cy'amashuri, icyo kigo kikaba ari ikigo kigisha ibijyanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Ubumenyi ngiro ni ingenzi cyane mu rwanda hari kaminuza zigiye zigisha abanyeshuri ibintu by'ubukorikori, ibyo bikabafasha kubona akazi mu gihe gitoya kandi bakiteza imbere.

Abantu bahuriye hamwe mu mahugurwa, bakaba barimo kwigishwa ku bigendanye n'ubukorikori ndetse n'uburyo bashobora kwiteza imbere binyuze mu kwihangira imirimo.

Amashuri y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga mu minsi yashize ntiyagiraga aho abanyeshuri baminuriza, ariko muri iki gihe hari za kaminuza zihari mu Rwanda nyinshi.

Ameza ateretseho akavase karimo ururabo, hakaba hateretseho n'ikindi kintu cy'ikibumbano kimeze nk'umutwe w'umuntu, uko bigaragara bari kugaragaza ubugeni bukorwa na za kaminuza, zigiye zitandukanye zo mu Rwanda.

Ubugeni ni ikintu gikomeye cyane ndetse njya numva bavuga ko nta muntu wakiga ibijyanye n'ubugeni adafite impano, niyo mpamvu njyewe ntabyishoborera nkaba narahisemo gukurikirana ibindi.

Igishushanyo cy'igisiga kikaba ari igisiga gifite amababa maremare ndetse manini ari mu mabara atandukanye, icyo gisiga kikaba ari igishushanyo cyashushanyijwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro mu Rwanda. Ni kaminuza ifasha abanyeshuri kwihugura mu bijyanye n'ubukorikori, ikaba yitezweho kuzasohora abanyeshuri bafite ubunararibonye.

Ububumbyi bushobora guteza imbere ababukora, gusa abantu benshi mu rwanda bazi yuko ububumbyi bukorwa na bamwe mu bashigajwe inyuma n'amateka, nyamara abantu biga ubugeni nabo bakora ibibumbano bikagurishwa.

Mu rwanda hari ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye byigisha imyuga ndetse n'ubumenyingiro, niyo mpamvu hari na za kaminuza nazo ziba ziteguye kwakira abo banyeshuri kugira ngo zikomeze kubafasha kuzashyira mu bikorwa ibyo baba biga.

Umuryango ugaragazwa na nimero ziwuranga, ukaba uri mu ishuri ndetse ukaba urimo ibirahure n'ibindi bigiye bitandukanye bikoze inzugi.

Abantu barimo kumanuka ku mayesikariye, uko bigaragara ni abasore bakaba bari mu kigo k'ishuri kikaba ari Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro mu Rwanda.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Ni ishuri risize irangi ryiza cyane risa na kaki, hakaba harimo intebe z'ubururu. Aba banyeshuri bose bakaba biga muri kaminuza nkuru y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abantu barimo kwandika, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu mahugurwa ndetse bose bafite amakaramu n'amakaye, bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda irimo amabara atandukanye.

Mu Rwanda ubukorikori, ubugeni, ubumenyingiro ndetse n'imyuga byatejwe imbere cyane, hari Kaminuza nkuru y'Igihugu yigisha abanyeshuri ibijyanye n'imyuga.

Umuntu bigaragara ko ari umwarimu, ari mu ishuri, abanyeshuri bari gukora ikizami. Ari kugenda acungacuunga ko nta wakopera, abanyeshuri nabo bari kumucunga ku jisho ngo barebe ko hari uko bakigenza.

Abantu bari kugenda mu nyubako ni urujya n'uruza, hari abibereye mu madirishya barimo kureba hanze, hari abandi nabo begereye imiryango biteguye kwinjira, ni muri kaminuza y'ubumenyi ngiro.

Ishuri ririmo icyumba kiza cyane icyo cyumba kikaba gifite imbere ikibaho cy'umweru, cyandikishijweho ikaramu ndetse uko bigaragara hari ameza arambitseho ikayi n'ikirenge cya mwarimu uri imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza barasetsa, iyo ubabona bajya kwiga ugira ngo ni abantu bigiriye gusenga cyangwa ku isoko kuko nta n'umwe wambara inifomo, bambara uko babonye gusa baba bambaye neza.

Kaminuza nkuru y'Igihugu ishinzwe kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, yasohoye abanyeshuri barenga igihumbi ku isoko ry'umurimo, bateraniye hamwe bahabwa impamyabumenyi zabo.

Ubugeni ni umwuga ushobora gutunga nyirawo, abenshi bagira ubugeni ni ukuririmba cyangwa gukina amafilime, nyamara ubu hari za kaminuza zigisha ubukorikori bugiye butandukanye, ibyo bigatuma abantu bihangira imirimo.

Nkiri umwana numvaga yuko nta muntu wajya kwiga gushushanya kuko njye najyaga nshushanya ariko nkabona ari ibintu byoroshye, nyamara hari abo bitunze. Iyo wize ukaminuza mu bijyanye n'ubugeni, ukora ibintu bigiye bitandukanye bikaguhesha amafaranga.

Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro mu Rwanda, ifite sale nini aho ikorerwamo inama y'abanyeshuri bose bagira ngo babagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye.

Ibibumbano bigiye bitandukanye bikaba bibumbwa n'abantu biga ibigendanye n'ubukorikori, ibingibi bikaba bishobora guteza imbere ubikora kuko bikunze kugurwa n'abazungu.

Abantu babiri barimo kugenda mu muhanda, uko bigaragara bageze iruhande rwa jalide nziza iteyemo igiti gifite amababi ndetse n'amashami manini, hakaba hari n'indabo nziza cyane ziconze neza.

Ubugeni bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ni na yo mpamvu hari za kaminuza nyinshi zitandukanye, zigisha abanyeshuri kwihangira imirimo binyuze mu gukora ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi asize ibara ry'ivu, hakaba hariho esikariye zizamuka zijya ku nyubako yo hejuru y'igorofa, iyo nyubako ikaba ari iy'ikigo cy'amashuri.

Ububumbyi bwatezaga imbere ababukora, gusa icyo gihe babumbaga inkono n'ibyungo n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo nk'ibibindi ariko ubu ushobora kubikoresha nk'ubugeni.

Ikibumbano cy'umuntu w'umwirabura, kikaba ari ikibumbano cyakozwe n'abanyeshuri biga muri Kaminuza nkuru y'Igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, ibi bikaba ari ibintu bishobora gutunga ababikora mu gihe babishyize mu bikorwa.

Buriya kwiga ni byiza, ariko njya nibaza nti "ese iyo haza kubaho kwiga ariko ntihabeho gukora ibizamini ngo baguhe impamyabumenyi, wari kujya ubwira nde ko wize?" Gusa mu Rwanda ho batanga impamyabumenyi ndetse n'ahandi henshi ku Isi.

Abantu benshi mu Rwanda bashishikarizwa kwiga ibigendanye n'ubukorikori ndetse mu rwego rwo guteza imbere iyi gahunda, Leta y'u Rwanda yashyizeho za kaminuza zifata abanyeshuri bize ayo masomo.

Intebe nziza cyane zikunze kugaragara mu mashuri, nyamara ayo mashuri nayo aba yubatse neza, asa neza, asize amarangi y'umweru. Asakaje amabati y'umutuku ndetse afite esikariye zurira zizamuka.